Aba ni abagore batatu barimo bavoma ku ivomero rusange bigaragara yuko bafite n'amajerekani menshi ategereje yuko bayavomera kugira ngo bajyane amazi mu rugo.

Iki ni icyapa cyangwa se ikirangantego cya Carolina y'Amajyaruguru, Alliance ishinzwe kwita ku buzima bw'Isi yose.

Umwana w'umukobwa muto, ari gukaraba ku iriba, bigaragara ko ari iriba ryatewe inkunga na wasake, ku bufatanye na wodivijoni.

Aba ni abaforomo bigaragara ko bo bari bari mu mahugurwa cyangwa se basoje amahugurwa, bakaba bari kumwe n'umuganga ndetse n'umuntu waruri kubahugura.

Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, aho arimo akora mu ntoki umuyobozi wundi cyanga se uyu muyobozi arimo amushimira y'uko barwanyije iki cyorezo cya Marburg, kikaba cyaratsinzwe mu Rwanda burundu burundu.

Iki ni ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wita ku bana witwa Unicef, kikaba ari ikirango kigizwe n'umubumbe w'Isi, hagati harimo ishusho y'umubyeyi uteruye umwana ndetse kikaba cyicaye ku mashami abiri.

Hano ni kwa muganga cyangwa se ku ivuriro, aho hano hagaragara ababyeyi bafite cyangwa se bateruye abana babo ndetse n'umuforomo uhari wita ku bana. Hakaba hari n'umunzani bikaba bigaragara ko hano babanza gupima abana kugira ngo babone cyangwa se bamenye imikurire y'umwana.

Iri ni ivomero rusange, aho abantu baza kuvoma ariko ari amazi ava mu butaka hasi bisaba yuko abantu bayapomba cyangwa se bahaga kugira ngo amazi azamuke babashe kuvoma. Hakaba hagaragara umwana umwe arimo kuvoma undi nawe arimo guhaga cyangwa se gupomba kugira ngo amazi azamuke.

Uyu mwana arimo gufungura amazi ya robine, ariko si robine dusanzwe tuzi ni robine iri ku ndobo bashyizemo amazi bigaragara ngo ni urukarabiro abantu bakoze kubera ko nta robine bafite.

Aba ni abantu babiri umwe ni mukuru undi ni mwana, wambaye umwenda w'ishuri akaba umubyeyi arimo yigisha umwana uko bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Turabona ababyeyi batatu, bari ku ivomero rusange, rya vomero bisaba yuko ukoresha ingufu kugira ngo uzamure amazi kugira ngo abashe kuzamuka uvome, bikaba bigaragara ko umwe arimo aravoma, abandi babiri barimo guhaga cyangwa se barimo gupompa, kugira ngo amazi azamuke, kubera ko umwe ntabwo ari kubyishoboza.

Iyi ni interuro yavuzwe n'umuntu avuga yuko abantu bakwiye gusohoka aho bari bari bakajya gushaka ubundi bumenyi hanze yaho bari bari kugira ngo babashe guteza imbere cyangwa se babashe kugeza ubuvuzi ku babukeneye.

Aha turabona, abantu bicaye bari mu nama, bigaragara ko barimo gusoma, abandi barimo kwandika, bikaba bigaragara ko, ari abanyabuzima bari mu mahugurwa.

Umwana amaze kuvoma amazi mu ndobo, bigaragara ko ari indobo nini, ndetse iruhande rwe hakaba hari umugabo ugiye kumukorera, ugiye kumushyiraho ingata ngo yikorere, ibi bikaba bivuze yuko harimo kuvunisha abana cyangwa se kubakoresha imirimo ivunanye, batagakwiye kuba bakora.

Ni abagore cyangwa se abamama bigaragara ko bari kwifotoza ifoto y'urwibutso, bigaragara ko bari bavuye nko mu mahugurwa cyangwa se basoje amahugurwa y'ubuzima.

Aba bantu barimo kubyina, barimo gukoma amashyi, bigaragara ko bishimiye umushyitsi ubari imbere, ndetse bose bakaba bari ku kigo nderabuzima cy'ahantu bita i Mayange.

Hano ni abantu bari mu nama ya UNICEF, aho bicaye barimo bakora inama buri wese afite icupa ry'amazi yo kunywa ndetse n'imbere yaho handitse yuko UNICEF ariyo mizero cyangwa se aricyo cyizere cya buri mwana.

Iki ni ikiganza cy'umuntu urimo gukaraba arimo gukarabira ku ruhombo, ariko ku ruhombo ruri hejuru y'amazi y'umugezi amazi atemba, akaba ari ibintu bikunze gukorwa mu byaro cyangwa se ahantu badafite aya mavome rusange cyangwa se robine kugirango ngo babashe kubona amazi bakoresha mu ngo iwabo.

Umugabo n'umugore turababona bari ku ivomero rusange cyangwa se ku iriba, bakaba bagiye kuvoma, buri wese afite ijerekani arimo avoma.

Hano ni kwa muganga aho hano ari mu cyumba cy'aho ababyeyi bakingiriza abana, aho bajyana gukingiza abana, aho bitamo ababyeyi benshi bateruye abana ndetse hano hakaba imbere hari umubyeyi uteraye umwana ahagaze afite n'ifishi mu ntoki avuye kumukingirizaho.

Turabona abantu bane bari ku ivomero ndetse ni ku ivomero rusange, iri ni ivomero Leta ikunze kubakira abaturage mu byaro, aho batabasha kubona amazi mu ngo za bo.

Uyu ni umwana urimo kuvoma amazi mu gikombe, ibikombe bya kera by'ibyuma bitaga muhinzi, akaba arimo kuvoma ku iriba rusange rimwe amazi batajya bayafunga.

Ni umwana muto ufite isabune mu ntoki, akaba arimo gukaraba, hakaba n'undi muntu ufite ijage arimo kumusukira amazi, bigaragara ko arimo kumwigisha uko bakaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, kugira ngo amwigishe isuku.

Aba ni abantu babiri, bose bari ku mugezi utemba, umwe arimo kuvoma amazi yo mu mugezi ndetse undi we na we ayahagazemo ariko arimo arogerezamo igare bigaragara ko umwe arimo kuvoma amazi undi ari kuyatoba, uri kuvoma amazi ariko arimo kuvoma amazi yanduye.

Iri ni ivomero rusange cyangwa se ahantu bagurisha amazi ku baturage igihe amazi aba yabuze, aya ni amavomero dukunze kubona mu makaritsiye aho usanga amazi akunda kugenda abantu bakaba baza kuvoma bakishyura.

Aba ni ababyeyi bahuriye ku ivomero rusange, bafite indobo barimo kuvomeramo, iri ni ivomero ryubatswe mu cyaro ariko ku nkunga y'umuryango mpuzamahanga wita ku bana UNICEF.

Aha turahabona abaturage barimo kuvoma ku ivomero rusange rikaba ari ivomero rusange leta yegereza abaturage cyane cyane abo mu byaro batabasha kubona amazi cyangwa se batabasha gukurura amazi ngo bayageze mu ngo zabo ,bagire rubine bakaba ari ivomero rusange leta iba yarakoreye abaturage kugira ngo bagire amazi meza.

Ibi ni ibiganza, cyangwa se amaboko y'umuntu, urimo gukaraba amazi meza kuri rubine, bikwigisha yuko, tugomba kugira igihe gukaraba amazi meza.

Iki ni ikirango cy'umuryango bita Global Health Organization, kikaba ari ikirango kigizwe n'amabara atatu, rimwe ni icyatsi kibisi, irindi ni ubururu bwijimye, ndetse n'irindi rijya gusa n'ivu, ariko iryo rijya gusa n'ivu rikaba rigizwe n'ishusho y'umubumbe w'isi.

Aba ni abantu bitabiriye inama, ku kagari cyangwa se ku murenge nkuko bigaragara, hakaba bo bicaye mu busitani ndetse abayobozi bakaba bicaye mu ihema nk'uko bigaragara, hakaba hari n'imodoka ishobora kuba yajemo abayobozi runaka baje gutanga inama.

Uyu ni umukangurambaga w'ubuzima cyangwa se umujyanama w'ubuzima, arimo yigisha abaturage yabakoresheje inama arimo abigisha inama ku byerekeranye n'ubuzima.

Hano ni kwa muganga aho tubona abantu bane bose bicaye bategereje ko babonana na muganga ndetse bikaba bigaragara ko bagiye bose kureba cyangwa se bategereje guhura na muganga uvura ibisebe cyangwa se ibikomere.

Iki ni ikirango cy'umuryango mpuzamahanga utagengwa na Leta, umuryango witwa World Vision, ukaba ari umuryango wita ku burere cyangwa se uburezi ndetse no kwita no kurengera abana ku buzima n'ibindi byinshi.

Ni umukobwa cyangwa se umugore urimo gukaraba intoki, akaba ari gukandagira kuri kandagira ukarabe iciriritse, cyangwa se idahenze abantu bakunze kwifashisha mu cyaro aho bakoresha ibiti bitatu bakabikora nk'izamu, nk'igiti cy'izamu bakazirikaho akajerekani bakajya bakaraba.

Amazi ni ubuzima, amazi atuma tugira isuku, turi kubona abana babiri barimo bakaraba amazi ku iriba rusange.

Aba ni abana babiri bicaye mu ishuri, bigaragara ko biga mu ishuri ribanza cyangwa se mu mashuri abanza, aho barimo gutera intoki, basaba umwarimu uburenganzira ngo basubize ikibazo yababajije.

Iri ni ivomero rusange Leta yahaye cyangwa se yagejeje ku baturage bo mu cyaro, aho ari ivomero rifite amavomero abiri icyarimwe bigaragara ko hari abantu babiri, bariho bafite amajerekani barimo bavoma, barimo bavomera icyarimwe kandi bavoma amazi meza.

Iyi ni inama yagaragazaga iyi nama yari iyobowe na minisiteri y'ubuzima n'abafatanyabikorwa, yiga ku iterambere ry'ubuvuzi mu Rwanda ndetse n'uburyo bwo kwirinda ibyorezo mu gihugu.

Uyu mwana ni umwana mutoya urimo kuvoma avomesha ijerekani ndetse ahantu ari kuvoma ari kuvoma umugezi utemba ndetse nawe awukandagiyemo, bivuze ngo nubwo arimo kuvoma ariko arimo kuvoma amazi yanduye arimo umwanda kubera ko ibirenge bye birimo ndetse n'amazi n'imyanda ituruka hirya no hino yose anyura muri ayo ngayo umuntu akaba yayavoma.

Uyu ni umwarimu cyangwa se umukangurambaga arimo yigisha abaturage mu cyaro, arimo arabigisha ibyerekeranye n'ubuzima cyangwa se imyororokere y'ubuzima.

Uyu mwana w'umukobwa ari gukaraba, ari gukaraba aho ari gukaraba intoki, akoresheje amazi arimo guturuka mu iriba cyangwa se mu ruhombo rw'iriba ariko hasi hatetse ibase arimo gukarabiramo.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa kwa muganga mu gihe bongerera abantu umwuka, ibi bikaba ari ibikoresho biba bibitse imyuka yifashishwa kwa muganga kugira ngo bazayongere abarwayi mu gihe bibaye ngombwa.

Uyu mugabo arimo gusobanura cyangwa se arimo kwigisha abaturage muri sale cyangwa se mu cyumba cy'inama, akaba ashobora kuba ari umuganga kuko yambaye n'itaburiye y'umweru.

Uyu mwana arimo gukaraba intoki muri kandagira ukarabe, aho arimo gukaraba mu ibase ndetse akaba ari umwana bigaragara ko ari umwana wo mu mashuri abanza kuko yambaye impuzangano zo mu mashuri abanza.

Uyu ni umwana w'umukobwa muto cyane urimo gukaraba intoki ariko hano bakaba nta robine bafite yo gukabiraho ariko bakaba barakoresheje uburyo gakondo. Aho bafashe icupa barimanika baricuritse barishyiramo amazi kugira ngo umwana wese cyangwag se umuntu ushaka gukaraba age aza abone uko akaraba.

Uyu mugore arimo kuvomera amajerekani ku iriba rusange, aho ari iriba rifite amatiyo cyangwa se impombo ebyiri zizana amazi icyarimwe, akaba ari amazi yubatswe ku bufatanye n'umushinga bita washi ushinzwe amazi, isuku n'isukura mu Rwanda.

Ni abana bishimye ariko ni abana batoya urebye neza bigaragara yuko ari abana bagize imirire mibi cyangwa se bafite indwara zikomoka ku mirire mibi nk'uko bigaragara ku misatsi yabo.

Uyu mugabo ahagaze imbere y'ivuriro ariko rikaba ari ivuriro ry'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, aho dusanzwe tuzi nka Caraes.

Aha turabona umuntu wambaye nabi, wambaye ibintu byinshi, yiyambitse ibintu byinshi, kandi ari mu mwanda, uko bigaragara, bigaragara ko hari umuntu ashobora kuba afite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe, akaba akeneye kwitabwaho, kugira ngo yongere abe umuntu muzima.

Uyu ni umugore wo mu cyaro, yikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba, akaba afite n'isuka mu ntoki akaba yavuye mu murima.

Uyu mubyeyi bigaragara ko ari umubyeyi ukuze, bari kutwereka ishusho cyangwa se isura ye, ariko bakatwereka ko amenyo yiwe afite ikibazo.

Ni abantu bicaye batonze uruziga ndetse hagati hakaba harimo abantu barimo bafite nk'ibyo barimo gukina cyangwa se barimo kwigisha abandi na bo bicaye bakurikiye.

Aha turabona imibare cyangwa se ibipimo bigaragaza impfu zikomoka mu kwiyahura; bikaba bigaragaza yuko impfu zituruka mu kwiyahura zagabanutse mu Rwanda.

Iyi ni diyagarame cyangwa se igipimo kigaragaza uko serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe bwagiye butangwa mu Rwanda.

Iki ni icyapa kiriho umutwe w'insanganyamatsiko ugira uti" imibereho cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe bw'abana ndetse n'ingimbi bo mu gihe cya covid''.

Turabona abantu batatu bagaragara neza imbere, umwe ni umubyeyi undi ni nk'umupapa w'umugabo, bigaragara ko bafashe umuntu, bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bakaba barimo kumusindagiza ngo bamujyane kwa muganga.

Turabona abagabo babiri, ari ko umwe yambaye nabi bigaragaza ko ari umurwayi wo mu mutwe ndetse n'undi mugabo wambaye neza bari kumwe bahagararanye, ariko bakaba barimo gusuhuzanya.

Uyu mwana ni umwana wiga mu ishuri ry'incuke, yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza bigaragara ko ari mu ishuri, yambaye impuzankano ndetse n'umwana usutse imisatsi igezweho. Akaba afite akantu ari kurya.

Aba ni abantu babiri bicaranye ariko umwe arihebye ku buryo yifashe mapfubyi ndetse undi we umwicaye iruhande akaba arimo amugira inama, amwihanganisha kugira ngo yongere agire ubuzima bwiza kandi yongere agire icyizere cy'ubuzima. Amubwira ko nta byacitse, ubuzima burakomeza. Ntakomeze guhangayika.

Ni abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, bose bakaba bahagaze kugira ngo bafate ifoto ya rusange, inyuma yaho hakaba hari icyapa cy'umuryango mpuzamahanga urengera abana. Ari cyo UNICEF.

Turabona umubyeyi, bigaragara ko ari umubyeyi wo mu cyaro, wicaye hasi ateruye umwana, n'undi mwana umwicaye iruhande, bigaragara ko ari mukuru w'uyu ateruye, akaba iruhande rwe hari urutaro, ruriho ingemeri itukura, ndetse bigaragara ko n'ingemeri irimo imyaka, bigaragara ko ari imyaka yarimo gutora ngo ayiteke.

Aba ni abana barimo koza ameny, bakaba barimo bakoresha uburoso bwabugenewe bwo koza amenyo, ndetse n'imiti cyangwa se n'umuti w'amenyo.

Uyu ni umukobwa urimo kuvurwa amenyo ndetse n'umuganga wambaye ga, akaba yambaye n'agapfukamunwa, akaba arimo avura uyu mukobwa arimo amuvura iryinyo.

Uyu ni umuganga ushinzwe gupima ibizami, akaba arimo yandika cyangwa se akaba arimo apima ibintu hano kugira ngo aze gutanga ibisubizo.

Uyu ni umusaza uri mu bwogero cyangwa se aho bakarabira, aho bakarabira intoki, imbere ye kuri lavabo aho twakwita kuri lavabo hakaba hari ibikoresho byifashishwa mu koza amenyo harimo uburoso bw'amenyo n'imiti y'amenyo.

Umuganga ari kuvura umwana amenyo, muganga akaba yambaye ga zo kwa muganga ndetse akaba afite n'ibikoresho byabugenewe byo kuvura amenyo.

Aha ni kwa muganga cyangwa se mu cyumba cyo kwa muganga, aho bashinzwe kwita ku ndwara z'amenyo, hakaba hari imashini kabuhariwe zabugenewe bifashisha bavura amenyo ndetse hakaba hari n'intebe ya muganga aba yicayeho kugira ngo abashe gukurikirana umurwayi igihe ari kumuvura amenyo, ndetse hakaba hari naho bajugunya imyanda igihe bibaye ngombwa.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, cyane cyane kwa muganga mu cyumba cy'ubuvuzi bw'amenyo, tukaba tubonamo imashini zo ku rwego rugezweho, zifashishwa mu gihe barimo kuvura amenyo.

Uyu musore cyangwa se umugabo ari guseka agaragaza amenyo, agaragaza ko afite amenyo meza yitayeho yagiriye isuku, kubera ko amenyo ye ni umweru.

Uyu ni umugabo cyangwa se n'umusore urimo kwihaganyura, arimo yifashishije urudodo rwabugenewe rwo kugira ngo abashe gukuramo imyanda iba yagiye hagati y'amenyo, akaba arimo abikora ari imbere y'indorerwamo, cyangwa se ikirori.

Uyu ni umwarimu arimo yigisha umwana cyangwa se arimo yigisha umunyeshuri uburyo bwo gukora amasuku mu menyo, akoresheje uburoso ndetse Imbere hakaba hari abayobozi barimo barebabe uko umwarimu yigisha umwana koza amenyo.

Iki ni igikoresho cyambarwa n'abantu bakunze kugira ikibazo cyo guhekenya amenyo nijoro, aka gakoresho bakaba bakambara kugira ngo bataza guhekenya amenyo, amenyo yabo akaba yakwangirika.

Aba ni abana bose bigaragara ko biga muri pirimeri bicaye mu ishuri, bose barimo baseka, bose bamanitse amaboko bigaragara yuko bafite imiti y'amenyo bizwi nka za korogati cyangwa se imiti yo koza amenyo.

Uyu muganga ari kuvura umurwayi amenyo, muganga akaba yambaye ga zo mu ntoki, akaba yambaye n'agapfukamunwa kugira ngo yirinde ko hagira kwanduzanya indwara z'ubuhumekero, akaba arimo avura uyu muntu amenyo, akoresheje machine cyangwa se ibikoresho byabugenewe.

Uyu muntu ari kwa muganga, aho yagiye kwivuza amenyo, akaba yicaye ku ntebe ndetse kwa muganga. Muganga amaze kumwambika agatambaro mu gatuza kugira ngo ataza kwiyanduza imyenda yambaye agatambaro k'umweru.

Hano turabona ifoto y'umukobwa bigaragara ko yerekanye amenyo, amenyo akeye bigaragara ko yayagiriye isuku nyinshi cyane, natwe tukaba dushishikarizwa kugira isuku y'amenyo yacu kugira ngo twirinde indwara zifata amenyo ndetse n'izindi ndwara zo mu kanwa.

Uyu ni umwana uryamye ku gatanda yasamye, ndetse n'umuganga umuri iruhande, yamubumbuye umunwa kugira ngo amusuzume amenyo, amenye uko aza kumuvura.

Hano turabona intebe yo kwa muganga, ku ivuriro aho bavura amenyo, intebe umurwayi yicaraho barimo kumuvura amenyo, hakaba na mashine zabugenewe zo kuvura, zifashishwa mu kuvura amenyo.

Iyi ni ifoto yo mu kanwa igaragaza amenyo, uko imiterere y'amenyo yose ameze ndetse igaragaza n'arwaye, ikaba ari ifoto yafashwe n'icyuma cyabugenewe cyitwa sikaneri.

Uyu muntu arimo guca urudodo n'amenyo, gusa si byiza ko amenyo yacu tuyacisha ibintu bikomeye kugira ngo bitayangiza.

Aha hagaragara umugabo bigaragara yuko arimo kwihaganyura cyangwa se arimo yikuramo imyanda mu menyo, akaba arimo gukoresha utuguzi cyangwa se indodo zabugenewe zo gukuramo imyanda mu menyo.

Aha turabona abantu babiri umwe ni umuganga undi ni umusaza ugeze mu za bukuru ariko bigaragara yuko afite ikibazo akenshi ni ikibazo cy'umugongo. Bigaragara ko umuganga arimo kumufasha gutambukira kuri bya byuma byabugenewe, bifasha abantu gutambuka igihe barwaye umugongo.

Ni abantu bo batuye mu gace kamwe, bakaba bicaye munsi y'igiti aho bigaragara ko bari gukora inama, ndetse hakaba hari n'umuntu ushinzwe kubakoresha inama.

Aba ni abantu babiri, bari kumwe, ariko bigaragara ko umwe akuze cyane, undi akaba yaba nk'umwana we, akaba yaba umukobwa we, ariko umukobwa akaba agiye guha umusaza ngo afate imiti, ndetse ku meza hariho n'ikirahure cy'amazi.

Ndona umukecuru uri kumwe n'abana be ndetse n'abuzukuru be; bigaragara ko ashagawe n'umuryango we kandi abana bishimiye ko bari kumwe na Nyirakuru.

Uyu ni umusaza n'umukecuru, bicaye ku meza, barimo baganira ubona ko bahuje urugwiro bishimye bakaba ari abantu b'umuryango wishimye.

Ni umusaza n'umukecuru we bicaranye, umusaza afite igikombe kivuyemo imiti, akaba afite'ibinini mu ntoki ariko umukecuru we arimo amusomera uko imiti igomba gufatwa.

Aba ni abagore batatu bose bakuze, barimo kwitegereza kuri telefone cyangwa se bose barimo kureba muri telefone, bikaba bigaragara ko hari amakuru barimo kureba muri iyo telefone.

Aha turabona umusaza wicaye mu kagare gasunikwa, yicaye ari ku meza ari kurya ndetse n'umukecuru na we wicaye bari gusangira, inyuma yaho hari umuforomo cyangwa se umufasha gusunika akagare kugira ngo abashe kugenda.

Uyu ni umubyeyi wishimye, ari mu gikoni, afite isahane mu ntoki n'ifurusheti ndetse arimo kurya imbuto n'imboga nziza, zikaba arizo zigaragaza ko yagize uruhu rwiza afite umubiri mwiza arishimye kandi arakomeye bitewe n'imirire myiza.

Ni abagabo babiri, cyangwa se abasheshe akanguhe babiri bari muri siporo, barimo gukora siporo, bigaragara ko bishimye.

Uyu ni umusaza bigaragara ko ari umusaza uri mu za bukuru, ariko yishimye abayeho ubuzima bwiza, akaba ateruye umwuzukuru we arimo kumukinisha bigaragara ko yakoze neza akaba yarambye akaba yishimiye kuba ari kumwe n'abazukuru be.

Ni umusaza wicaranye n'abuzukuru be nkuko bigaragara ni abuzukuru be, barimo bararya, bicaye imbere y'umuryango bari kurya, abana bari kurya ndetse umwe afite n'icyo n'icupa arimo kunyweramo, bigaragara ko ari nk'amata, n'umusaza nawe yicaye ku gatebe nawe arimo gusangira n'abuzukuru be.

Ni abantu bari ku meza, barimo gufata ifunguro, ifunguro ryuzuye kuko ririho imboga kandi imboga tuzi ko ari nziza ku buzima, ndetse bafite n'amazi yo kunywa igihe barangije kurya.

Itsinda ry'abagore bicaye mu busitani cyangwa se bicaye mu byatsi barimo bakora buri wese afite imirimo ari mu gukora itandukanye n'iy'undi, hari umwe uri kuboha abandi bateruye abana bari kubitaho ndetse bakaba uko bakora ari nako baganira.

Ni abantu babiri bicaye umwe yicaye mu ntebe, undi yicaye mu kagare ariko uwicaye ku ntebe bigaragara ko ari umuganga arimo gufata umuvuduko uyu wicaye mu kagare.

Uyu ni umugore cyanga se umucyecuru nawe ubona ari mu kigero cy'imyaka hafi mirongo itandatu arimo gukorana na we siporo bigaragara ko ni inyuma ye hari abandi bantu benshi bari gukora siporo kandi bose barimo gukora siporo zo guterura ibiro.

Uyu ni umuforomokazi ubona ko akiri muto, arimo gufata umuvuduko w'amaraso w'umuntu ugeze mu zabukuru cyangwa se w'umusaza.

Iki ni ikiganza cy'umuntu urimo gukina umukino wo ku meza bita rudo. Bikaba bigaragara ko ari ikiganza cy'umuntu ukuze bitewe n'uruhu uko uruhu rwe rugaragara.

Uyu ni umugore ukuze cyangwa se umukecuru, bigaragara yuko hari umuntu urimo kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo uyu mukecuru arambure imitsi neza.

Uyu muntu arimo kugerageza gutambuka, ariko nk'uko bigaragara yagize ikibazo cy'umugongo cyangwa se yagize ikibazo cy'uruti rw'umugongo, aho arimo gutambuka akoresheje agakoresho cyangwa se akuma, ibyuma byabugenewe bimufasha kugenda atambuka, ibi byuma tukaba twabigereranya n'imbago.

Aba ni abantu babiri, umwe ni umuganga, undi ni umusaza cyangwa se ni umugabo ugeze mu zabukuru, umuganga akaba arimo afasha uyu musaza kugira ngo arambure umugongo, bigaragara ko uyu musaza afite nk'ikibazo cy'umugongo.

Aba ni abantu babiri, umwe ni umugabo, undi ni umukecuru, umugabo ni umuganga, n'aho umukecuru ni umuntu waje kurwara, urwariye kwa muganga, ariko bifotoranyije bari guseka, bigaragara ko umukecuru yishimiye ko umuganga yamuvuye, ndetse n'umuganga yishimiye ko umurwayi we yamuvuye neza akaba yakize.

Iki ni icyapa cyangwa se itangazo ryo gukangurira urubyiruko, ko bagira na bo uruhare mu kurwanya virusi itera SIDA, ikaba igaragaza amatariki igikorwa kizaberaho n'igihe kizabera n'aho kizabera, bigaragara ko cyagombaga kuba online cyangwa se iya kure.

Iri ni itsinda ry'abaganga aho bari muri operasiyo, cyangwa se bari kwita ku murwayi umwe, rikaba ari itsinda ry'abaganga bagera muri batandatu, bose bahateraniye ku murwayi kugira ngo bamugarurire ubuzima.

Aba ni abantu bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde indwara z'ubuhumekero cyangwa se birinde Kovide Cumi n'Icyenda ndetse bikaba bigaragara yuko hano hari raporo y'uburyo Kovide imeze muri Afurika.

Iyi ni raporo yo kuboneza urubyaro, cyangwa se ya family planning, ikaba ari raporo y'imyaka icumi.

Iki ni icyumweru cy'ubukangurambaga ku Isi, bubwira abantu kwirinda gukoresha nabi imiti irwanya mikorobe, igihe bafite cyangwa se igihe barwaye inkorora n'ibicurane.

Turabona minisitiri w'ubuzima, bigaragara ko yahuye n'abantu bagize cyangwa se bafite ibigonderabuzima, bigaragara ko ari abihayimana, abamasera bagiranye inama n'ubuyobozi cyangwa se na minisiteri y'ubuzima.

Aha turabona nyakubahwa madamu Jeannette Kagame akaba yararimo gutanga ijambo cyangwa se arimo kugeza ijambo ku bantu bari bitabiriye umunsi wo kurwanya indwara cyangwa se gukora ubukangurambaga ku ndwara zo mu mutwe.

Iki twacyita ko ari igitabo cyangwa se raporo y'uburyo hakuwemo inda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, ikaba ari raporo y'isi yose igaragaza uko hagiye havamo inda cyangwa se inda zagiye zivamo mu buryo butateganyijwe.

Aba ni abantu bari mu nama, ikaba ari inama Mpuzamahanga ya makumyabiri, yiga kuri SIDA ndetse no ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri Afurika.

Izi ni nzego z'ubuzima uko zigiye zirutanwa. Aho habanza abanyabuzima bo mu midugudu no mu tugari, habikurigiraho centre de sante n'amaposite de sante ndetse hagakurikiraho ibitaro by'akarere, ibitaro by'akarere byavaho hakajyaho ibitaro by'intara ndetse hakazaho n'ibitaro bikuru by'igihugu.

Aha ni kwa muganga aho hari abaforomo barimo gufata amaraso abakecuru kugira ngo babasuzume barebe indwara baba barwaye.

Aha turabona ifoto iriho ikirangantego cy'igihugu, iki kirangantego kikaba ari icya minisiteri y'ubuzima, minisiteri y'ubuzima ikaba ari ishinzwe gutanga imiti, kutubonera imiti ikaba ari yo ishinzwe amavuriro, ikaba inashinzwe kukingira ikaba yari ishinzwe kwirinda indwara ndetse n'ibyorezo muri rusange.

Iyi ni imbonerahamwe igaragaza uburyo ki abagore bagenda bagira ibyago byo gukuramo inda, kuva ku byumweru zeru kugeza kuri cumi na bibiri, kuva ku byumweru cumi bitatu kugeza ku byumweru makumyabiri ndetse no hejuru y'ibyumweru makumyabiri.

Aba ni abantu bicayi bagiye kwikingiza cyangwa se bagiye kwisuzumisha indwara ya Kovide, bakaba buri wese yicaye ku ntebe ndetse bashyizemo umwanya uhagije kugira ngo hataba hagira uwanduza undi, buri wese yambaye agapfukamunwa.

Aba nk'abantu bakora ubukangurambaga mu buvuzi, barimo bigisha amategeko ndetse n'ibyemezo bifatwa mu buvuzi barimo babikangurira barimo bakora ubukangurambaga cyangwa se barakangurira abantu.

Iyi ni nama yabaye muri Kigali mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na kane, ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi, ikaba ari inama yari ifite insanganyamatsiko igira ngo: "Duhagarike burundu virusi ya Marburg." Ikaba ari inama yari irimo Minisitiri w'Uburezi ndetse n'abandi baterankunga.

Hano turabona imbonerahamwe cyangwa se imibare igaragaza ingero z'ibyiciro by'abantu bamaze kwikingiza burundu icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda.

Aya ni amabwiriza cyangwa se amategeko y'igihugu, agenga ubuvuzi cyangwa se ubuzima. Akaba ari bigaraga yuko ko ari itegeko rigaragara ko ari nk'urutirigongo uzafashishwa mu buryo bw'imivurire cyangwa se mu buryo bw'ubuvuzi.

Ibi ni ibitanda byo kwa muganga, aho bavurira abarwayi bakoresheje imashini kabuhariwe zishinzwe kureba mu mubiri w'umuntu ndetse hejuru hakaba hariho n'amataburo cyangwa se ama ekara ya televiziyo agaragaza yereka muganga ibyo ari kubona bivuye muri mashini.

Hano ni kwa muganga cyangwa se aho bavurira amaso, hakaba ari aho batangira amarinete meza hakaba handitseho yuko umuntu agomba kubona kandi yambaye amarinete amubereye.

Ibi ni ibitaro bya Gihundwe mu ntara y'uburengerazuba, bikaba ari ibitaro biriho santire y'aho bavurira indwara z'impyiko ndetse bikaba bigaragara yuko batanga na serivisi zo kuvura amaso.

Aha turahabona ifoto y'ikigo nderabuzima, cyubatse mu buryo bugezweho kubera ko ni igorofa, ndetse kikaba ari kigo nderabuzima cyo mu mujyi wa Kigali, nk'uko bigaragara, ikigo nderabuzima k'ikanyinya.

Iyi ni inyubako nziza, inyubako igezweho, imbere yayo ubusitani, hakaba harimo idarapo y'igihugu cy'u Rwanda ndetse ikaba ifite n'aho baparika imodoka, hakaba harimo imodoka imwe ndetse na moto.

None kwa muganga aho harimo ibikoresho byose, cyangwa se ibikoresho byabugenewe ndetse by'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, hariho amamashine aho umurwayi aryama, gitanda cy'umurwayi ndetse na mashini zose zikenerwa kugira ngo babashe guha serivisi uwo murwayi.

Hano turabona abantu babiri bicaye ku igare, ariko ritarimo kugenda, kubera ko hasi hateretse indobo hakaba hari n'umwana uhahagaze, bakaba bahagaze neza neza mu marembo y'ikigo nderabuzima cya Gisenyi, bigaragara ko mu kigo nderabuzima cyangwa se mu gipangu cy'ikigo nderabuzima cya Gisenyi, hari abantu baje kwivuza bicaye hasi bategereje ko babafasha.

Uyu ni umurwayi cyangwa se ni umuntu urwaye, ari kwa muganga aryamye ku gitanda ariko nk'uko bigaragara nk'uko yabigaragaje biragaragara y'uko yorohewe akaba atangiye kwishima atangiye kugira akamwenyu.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kibamo mashine cyangwa se kirimo bombone zitanga imyuka, umwuka ukenewe ku barwayi cyangwa se umwuka abaganga bifashisha igihe bibaye ngombwa.

Iyi ni inyubako y'ibitaro, ibitaro biri ku rwego rw'akarere, bikaba ari ibitaro bya Shyira, iyi ikaba ari inyubako igezweho, ikaba ari inyubako igeretse.

Iri ni iduka, cyangwase ni iguriro ry'aho bacuruza amarinete nk'uko bigaragara, ndetse hakaba harimo n'igabanyirizwa, aho ugura imwe bakakongeza indi ku buntu.

Hano haragaragara umuforomokazi ndetse ari kumwe n'umubyeyi bigaragara ko ari umubyeyi wibarutse ateruye uruhinja mu ntoki, akaba yifotoranyije n'umuforomokazi wamubyaje yishimiye ko yamufashije neza.

Hano ni kwa muganga aho bari mu cyumba bakingiriramo abantu, aho barimo gukingira abantu indwara ya kovide, icyorezo cya kovide, hakaba hari umuntu wicaye mu kagare ndetse n'umuganga wahagurutse arimo amukingira.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga bavuriramo, ariko ukurikije imitako irimo biragaragara ko ari icyumba bavuriramo abana batoya.

Iyi ni inyubako ya santere y'igihugu y'indwara ya kanseri, iyi ikaba ari inyubako y'aho leta yubatse ikigo cy'ubuvuzi bwa kanseri mu Rwanda.

Hano ni mu cyumba cyo mu ivuriro, uko tubona bikaba bigaragara ko ari aho bavurira abana, ukurikije udushushanyo dushushanyijeho ni utw'abana.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda abarwayi baryamaho mu gihe barimo gusuzumwa ndetse n'aho muganga yicara arimo gusuzuma umurwayi.

Aba ni abantu bambaye amataburiye ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bakaba bambaye n'akanozasuku mu mutwe kugira ngo imisatsi yabo itagira aho ihurira n'imiti cyangwa se itanduza ibyo bari gukora, bakaba bari twakwita ko bari mu ruganda rukora imiti kugira ngo bayifunge mu macupa.

Hano ni ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro, bigaragara ko hari abantu benshi bategereje ko bahabwa serivisi bitegerejwe ko bakirwa ngo bavurwe, bose bakaba bicaye mu mbuga ahantu hatandukanye.

Hano ni mu cyumba bafatiramo ibizami cyangwa se basuzumiramo ibizami, bapimiramo ibizamini, hakaba harimo microscope yifashishwa mu kugira ngo barebe indwara zitagaragara n'amaso, hakaba harimo amacupa arimo ibinyabutabire byinshi byifashishwa kugira ngo babashe kubona indwara.

Iyi ni inyubako nziza bigaragara ko ifite ubusitani nabwo bwiza butunganyije neza, ikaba yaba ari inyubako y'ibitaro byo ku rwego rwo hejuru.

Hano ni kwa muganga bigaragara yuko ari ku ivuriro cyangwa se ku bitaro, hari icyapa kiyobora abantu baje bahagana kugira ngo bamenye aho bajya gushakira serivise bakeneye.

Hano ni mu cyumba rusange, aho abarwayi barara, ariko buri murwayi, buri gitanda cya buri murwayi kikaba gitandukanijwe n'icyo twakwita nka rido, ndetse bigaragara ko buri murwayi wese igitanda cye gifite inzitiramibu.

Uyu ni umuforomokazi, aho ari mu cyumba cy'abarwayi, aho hari umurwayi uryamye ku gitanda, ndetse uyu muforomokazi akaba arimo aramufungira serumu.

Iki cyumba cya siporo kirimo imashine abantu bakoreraraho bongera umuvuduko barimo kwirukanka ndetse hakabaho n'izindi mashine ziba zimeze nk'amagare banyonga ariko zifasha abantu mu kongera imbaraga zo mu maguru.

Hano ni ku kigo nderabuzima cy'ahantu bita i Rwerere, bakaba bafite imbuga ishashemo umucanga ndetse n'ubusitani, iyo mbuga ikaba ikikijwe n'indabyo.

Ni icyuyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zabugenewe zo ku rwego ruhambaye, cyangwagse z'ikoranabuhanga zo gukoresha mu gihe bari kwita ku murwayi cyangwa se barimo kuvura umurwayi.

Aha turabona umuganga cyangwa se umuntu ukora muri farumasi, akaba ari mu cyumba kirimo mashine zabugenewe kandi zifite ikoranabuhanga, bikaba bigaragaza ubuvuzi buteye imbere.

Hano turabona ikirongozi cyicayemo abantu benshi bose bambaye udupfukamunwa, bikaba bigaragara y'uko ari abantu bicaye bategereje ko bajya kubonana n'abaganga.

Iyi ni inyubako ifite icyapa kiriho ikirango cya guverinoma y'u Rwanda, ndetse n'ikirango cy'umugi wa Kigali, kikaba bigaragaza y'uko iyi nyubako ari igororero ry'umugi wa Kigali.

Hano ni mu marembo yo ku bitaro bizwi nko ku bitaro byitwara rOware de sude cyangwa se kwa Nyirinkwaya. Hakaba mu marembo hari icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa muri ibyo bitaro ndetse n'amasaha y'akazi.

Aha ni kwa muganga bigaragara yuko ari icyumba cyo kwa muganga kirimo ibi bikoresho bya kabuhariwe mu kuvura bifashishwa mu kuvura harimo n'ama ekara bigaragaza yuko iyo bavura umuntu bavura umuntu banareba kure ecranini kugira ngo babibone neza.

Ni abantu babiri bari mu bitaro ndetse bigaragara ko barwaye barembye, bakaba bafite mashini ziri kubongerera umwuka, bigaragara y'uko bagize ikibazo cyo kuba bafite umwuka mukeya.

Hano ni kwa muganga aho bapimira abana ibiro ngo bamenye uko umwana agenda akura, barebe ibiro n'uburebure n'amezi afite kugira ngo bamenye uko bakurikirana umwana imikurire ye.

Iyi ni inyubako bigaragara ko ari inyubako nziza yubatse muburyo bugezweho kandi isakaye neza muburyo bwa kijyambere isakaje amabati kandi iteye irangi neza bikaba byanditseho mu magambo agaragaza icyo inzu ikorerwamo.

Iyi ni inyubako yubatse ahantu ikikijwe n'ubusitani bwiza, bwisanzuye, buteyemo ibiti by'ubwoko bwinshi, ikaba iriho icyapa kigaragaza serivisi zikorerwa muri iyo nyubako, ndetse naho zikorerwa kugira ngo icyo cyapa kibayobore, hakaba hagaragara abantu benshi barimo kuyiganamo, ndetse barimo bagenda mu duhanda tw'abanyamaguru.

Uyu ni umwarimu urimo wigisha umwana arimo amwigisha uko boza amenyo ndetse imbere hari n'abayobozi baje kureba uko uyu mwarimu yigisha abana, uburyo bwo koza cyangwa se uburyo bwo gukora isuku y'amenyo.

Hano ni mu cyumba cyo kwa muganga harimo abaforomo cyangwa se abaganga, bose bakaba bari muri laboratoire bigaragara ko ari muri laboratore, aho bakorera ibizamini by'indwara zitandukanye.

Iki n'icyumba cya siporo cyangwa se sare ya sport ariyo bita JGYM mu ndimi z'amahanga, akaba ar' icyumba kirimo ibyuma byabugenewe kugira abantu baze gukoramo siporo zitandukanye.

Hano ni kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi aho bararaba, hakaba buri murwayi afite igitanda cye cyiza kandi kigezweho ndetse buri wese akaba arara mu nzitiramibu kugira ngo imibu itamutera indwara.

Iki ni icyumba cya siporo ibyumba bya siporo rusange abantu benshi bakunze kumva kumazina ya jimu, hano hakaba barimo ibyuma cyangwa se mashine zose abantu bakora kugira ngo bagorore umubiri neza.

Iki turabona ari icyumba cyo kwa muganga cyangwa se ububiko bwagenewe kubika imiti ndetse n'ibikoresho byo kwa muganga, byo mu buvuzi, buteye imbere, bugezweho muri iyi minsi.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga, bigaragara ko ni inyubako iteye imbere, hakaba harimo intebe zaho abantu bicara bategereje, ndetse hakaba hari naho bakirira abantu, aho bita kuri resebusiyo.

Ubusitani bwiza burimo idarapo ry'igihugu cy'u rwanda, ndetse hakaba hari inyubako bigaragara ko inyubako nziza cyane ziteye imbere.

Hano ni kwa muganga aho bakirira abarwayi cyangwa se aho abarwayi baza kubakirira kugira ngo bababwire ibisabwa ndetse banishyure mbere y'uko bajya kubonana n'umuganga bashaka.

Aba ni abantu bari mu nama cyangwa se bari mu mahugurwa nk'uko bigaragara bose bateze amatwi kandi bakaba ari abantu bakuze gusa bakaba aribo bitabiriye iyi nama.

Iyi ni inyubako ya Isange one stop center y'aho bita i Remera Rukoma. Isange one stop centar ikaba ari ikigo cyakira abantu bahuye n'ihohoterwa runaka, kugira ngo babagire inama cyangwa se bitabweho.

Hano turahabona inyubako, inyubako ziri ku rwego rwo hejuru bigaragara yuko ari ku bitaro by'aho bita kuri La croix du sud cyangwa se aho dukunze kwita kwa Nyirinkwaya, ni ibitaro biteye imbere bifite isuku, bifite inyubako zigezweho kandi bitanga serivisi nziza.

Aha turagaragazwa icyumba cy'ubuvuzi buteye imbere kandi burimo ibikoresho byose, nk'uko harimo mashi, harimo ibitanda by'abarwayi baryamaho mu gihe barimo gusuzumwa ndetse na mashini zabugenewe zo kuba zo gukoresha kugira ngo babashe kubavura.

Aba ni abakecuru babiri ubona ko bicaranye n'umuganga cyangwa se umuforomokazi, urimo kubitaho arimo afata umuvuduko w'amaraso, ngo arebe uko ungana hanyuma umuganga nk'umuganga yambaye imyenda y'akazi ndetse akaba yambaye n'agapfukamunwa.

Aha ni mu bitaro byitwa Legacy, bikaba Legacy ari ibitaro bigezweho biri ku rwego rwo hejuru, aha batugaragariza akaba ari aho babariza amakuru.

Iyi n’inyubako igaragara ko ari kw’ivuriro kwa muganga. Nk’uko tubibona bigaragara ko icyo ar’icyumba cyagenewe icyumba cy'abana, cyangwa se aho bita muri materinete. Nk’uko tubibona ibishushanyo biriho bigaragaza ko ari iby'abana.

Aha turabona icyumba cya siporo, icyuma cya siporo rusange nk'icyo tuzi mu gisirimu bita cyangwa se mu yandi mazina y' amahanga mu rundi rurimi aricyo bita jimu kikaba ari icyumba kirimo ibikoresho bya siporo bihagije abantu baza bagakoremo siporo ku buryo bwisanzuye.

Iyi ni inzu yo ku rwego rugezweho, inzu ya etage bigaragara yuko ari ahantu hatangirwa serivise cyangwa se hashobora no kuba ari kwa muganga, bikaba muri parikingi yaho ifite parikingi nini iparitsemo imodoka ndetse bikaba bigaragara ko ku muryango ari aho bakirira abantu, kuri resebusiyo.

Turi kugaragarizwa ifoto y'umuntu uri kunywa amazi, ari kunywera amazi mu icupa risukuye, kandi ryiza ndetse anywa amazi meza afite isuku, kuko tuzi ko amazi ari ingirakamaro.

Aba ni abantu babiri bicaye, umwe yicaye ku gitanda cy'abarwayi, ukuguru kumwe kwambaye urukweto, ukundi yagukuyemo urukweto, kubera ko barimo kumupfuka aho yagize imvune ku kirenge.

Uyu ni umukobwa bigaragara ko rwose akomeye kubera siporo akora cyangwa se imyitozo ngoramubiri akora, akaba yambaye agasengeri ndetse akaba apfukamishije ivi rimwe, arimo gukora siporo yamanitse amaboko hejuru.

Uyu muntu uryamye hasi aryamye kwa muganga, hari imbere ye hari umuganga urimo kumwitaho urimo kumufasha kumugorora cyangwa se kumurambura amaguru bigaragara ko uyu umuntu ashobora kuba yagize ikibazo cy'imitsi cyangwa se yavunitse.

Aha turabona imipira y'ubwoko bwinshi yo gukinwa, ndetse ikaba iri kumwe na kasike bambara mu gihe bari gukina kiriketi. Tukaba tubona umupira wa kiriketi, tukaba tubona umupira wa rugubi, tukaba tubona umupira wa basiketi ndetse n'umupira wa futuboro.

Iki ni icyapa kigaragaza ko siporo ari umuti, cyangwa se kigaragaza ko siporo ari ingenzi mu buzima, aho bagaragaza abantu bagiye batandukanye siporo barimo gukora, hari abicaye, hari abarimo gukina, hari abarimo kwirukanka, hari abarimo kunanura imitsi mu buryo butandukanye.

Uyu ni umuntu wagize ikibazo ku kuboko, akaba yatwikiriye cyangwa se yapfutse aho yagize ikibazo, ashobora kuba yakomeretse cyangwa se yavunitse.

Uyu mukobwa cyangwa se umugore yicaye hasi, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho arimo agorora ibirenge n'amaguru ndetse n'amaboko.

Aha turabona ifoto y'umuntu uri muri siporo bikatwigisha yuko siporo ari nziza ku umubiri i wacu ikaba igabanya ibinure, ikagabanya umuvuduko,i ikagabanya siteresi, igatuma umubiri wongera ugatera neza kandi bigatuma n'igogorwa rigenda neza.

Iki ni igikoresho cyangwa se ni akuma kifashishwa n'abantu mu gukora siporo cyane cyane iyo bashaka kugabanya ibicece cyangwa se kugabanya inda, akaba ari igikoresho bigaragara ko kigura ibihumbi ijana na makumyabiri, y'Amanyarwanda.

Aya ni amacupa yose arimo umuti ugabanya uburibwe, cyangwa se uhahagarika uburibwe, ukaba ari umuti umwe bapuriza, undi wo kwisiga.

Uyu ni umusiporotifu wicaye ku gitanda bateruriraho abarwayi kuko yavunitse, hari igitanda baterura umurwayi gihe atabasha kwigenza.

Ibi ni bikoresho byose byifashishwa mu gihe batanga ubutabazi bw'ibanze. Aribyo bita Fesiti eyidi kit, harimo ga, hakaba harimo ibinini, hakaba harimo itoroshi, hakaba harimo selenge cyangwa se inshinge ndetse n'ibipfuko, n'ibindi byose byakwifashishwa kugira ngo utange ubutabazi bw'ibanze.

Uyu ni umugabo uri mu cyumba bakoreramo siporo, akaba arimo gukora siporo yo guterura ibyuma cyangwa se guterura ibiro biremereye, bikaba bigaragara yuko afite ukuboko rwose kwabaye kunini kubera guterura ibyuma ndetse n'agatuza kanini.

Aha batwereka ibikoresho cyangwa se imiti yakoreshwa cyangwa se ikoreshwa mu gihe umuntu agiriye ikibazo muri siporo, hakaba harimo kuba yaba yavunitse cyangwa se yaba akomeretse, ibikoresho byose cyangwa se imiti n'amavuta yo kumusiga kugira ngo bamugabanyirize uburibwe, byose bikaba biri ku gishushanyo.

Iyi foto urayibona aho abantu babiri, umwe aricaye yakuyemo urukweto rumwe, bigaragara yuko yagize ikibazo ku kirenge cyangwa se kuguru, undi nawe we bigaragara ko ari umuganga, urimo kumufasha kugira ngo amwiteho, uyu muntu yongere abashe kugenda neza cyangwa se akire.

Ibi ni ibiryo ndetse n'imyitozo umuntu aba akwiye gukora kugira ngo agire umubiri mwiza, uteye neza nk'uko abishaka ahagire umubiri ukomeye kandi wmutse aho bagaragaza amagi, bagaragaza karoti, bakagaragaza imigati, bakagaragaza imbuto, bagakora amaji bagakoresha imboga ndetse n'inyama agomba kurya.

Uyu ni umuti ukunze kwifashishwa n'abasiporutifu kugira ngo ubafashe kugabanya ububabare igihe baba bagize imvune mu gihe bari gukora siporo.

Turabona umuntu hano wicaye hasi upfukamye yashyize amaboko hasi yambaye ingofero imufasha kurinda umutwe mu gihe barimo gukora siporo, cyangwa se igihe barimo gukina. Ndetse ashobora kuba yagize ikibazo. Hakaba hari n'abantu babiri bambaye amakuteri barimo kumwitaho bashobora kuba ari abaganga barimo kumuvura.

Abagabo babiri bari mu cyumba cya siporo cyangwa se icyo dusanzwe tuzi mu ndimi z'amahanga za nka jimu, bakaba umwe arimo yigisha undi arimo amukoresha siporo, bakaba bose bafite imipira mu ntoki y'umukino bita rugubi.

Izi ni insimburamubiri cyangwa se ni insimburangingo zifashishwa mu gihe umuntu ashobora kuba yarabuze urugingo rw'ukuguru, ziba zifasha abantu bafite ukuguru kumwe cyangwa se bacitse amaguru yose.

Turabona umuntu uri gukora, urimo kunywa amazi kandi bigaragara yuko yaravuye muri siporo kubera ko a n'aka eswime, cyangwa se agatambaro abantu bifashisha bihanagura ibyuya mu gihe bari muri siporo. Uyu muntu nawe akaba yambaye n'imiyenda ya siporo.

Aka ni agatanda bateruraho umurwayi cyangwa se ingobyi igezweho bateruraho umurwayi mu gihe bagira ngo bamushyire mu mbangukiragutabara cyangwa se bagira ngo bamuterure aho yagize impanuka, haba ari mu kibuga cyangwa se ku muhanda kugira ngo babashe kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Uru ni urugero rwiza rw'ibintu byadufasha kugira ubuzima bwiza, aho bigaragaza ko umuntu aba agomba gukora siporo, hari inkweto za siporo, hari umukeka bakoreraho siporo, ndetse hakaba n'imbuto n'imboga umuntu yarya kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi yanakoze siporo yananyoye n'amazi ahagije.

Uyu ni mugabo wicaye arimo kunywa amazi, bigaragara ko ni umugabo ukora siporo yambaye isengeri, aho yari arimo gukora siporo akaba yarananiwe, akaba aje kongera kunywa amazi kugira ngo yongere abobeze mu muhogo kugira ngo akomeze akore siporo.

Iki ni icyumba cya siporo rusange, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, harimo mashine zifasha umuntu mu kongera umuvuduko ndetse hakaba harimo n'izindi siporo zifashishwa mu kongera ingufu z'amaguru ndetse n'iz'amaboko.

Uyu ni umuganga ushinzwe kwita ku basiporutifu cyangwase ku bantu barimo gukina imikino runaka mu kibuga, aho arimo apfuka cyangwase arimo guhambira umukinnyi wagize ikibazo ku kaboko, akaba arimo amuhambira n'igitambaro cyabugenewe cyo guhambira umukinnyi mu gihe yagize ikibazo.

Aha baratwereka ,abantu babiri ,umwe yicaye ku ntebe ndetse arimo bigaragara ko arimo no kunywa amaz,i naho undi we ugaragara ko ari umukobwa ahagaze ahagaze iruhande rw'intebe gusa bigaragara ko wagirango ngo arimo kwirambura kandi bigaragara ko bagamije gukora siporo kubera ko bafite n'ibikapu byabo imbere yabo.

Iki ni igikapu cy'ubutabazi bw'ibanze aho kiba kirimo buri gikoresho cyose cyakenerwa kugira ngo umuntu utanga ubutabazi bw'ibanze, abashe gutanga ubutabazi bw'ibanze bwihutirwa.

Iki ni igikoresho cyifashishwa n'umuntu wavunitse mu ngingo cyangwa se yavunitse mu mavi, kiba ari igikoresho umuntu yambara mu mavi kugira ngo abashe gutambuka neza.

Ibi ni ibipfuko ndetse n'icyo twakwita bande zo gupfuka ibipfuko cyangwa se zo gushyira ku muntu wagize ikibazo. Akaba ari ubwoko butandukanye bwa bandage.

Iki ni ikirahure kirimo gisukwamo amazi meza bigaragara ko ari amazi meza y'urubogobogo akaba ari amazi yo kunywa, ikirahure gisukuye bagira ngo banyweshe amazi.

Ibi ni ibimenyetso cyangwa se urusobe rw'ibimenyetso n'amabwiriza, byagaragazaga uko abantu bagomba kwitwara mu gihe bagiye muri siporo. Bikaba hari mu igihe cya covid cumi n'icyenda.

Uru ni urusobe rw'ibintu bigaragaza ko umuntu abikurikije agira ubuzima bwiza, ari byo birimo siporo, kurya imbuto ndetse no kunywa amazi meza.

Igishushanyo kiratwereka uburyo ki abantu bakora siporo cyangwa bakina imikino runaka cyangwa babyina, bashobora kuba bakoresha ibiyobyabwenge cyane bikaba ari byo bigize ubuzima bwabo bwose.

Iki ni igikoresho cyifashishwa nk'urukweto umuntu wagize ikibazo cy'ukuguru cyangwa cy'ikirenge yifashisha igihe yavunitse, aho acyambara kugira ngo abashe gutambuka mu gihe ikirenge cye cyagize ikibazo adashobora kwambara inkweto zisanzwe.

Ni umukobwa cyangwa se umugore wicaye ku mukeka wabugenewe wo gukoreraho sport. Akaba imbere ye hari mudasobwa yo kumviraho uturirimbo tumufasha gukora siporo, ndetse ku ruhande hari icupa ry'amazi yo kunywa igihe agize icyaka ndetse n'ibindi byuma cyangwa se utundi dukoresho twifashishwa mu guterura.

Ibi ni ibikoresho bya siporo, siporo mu buryo butandukanye, gusimba umugozi, ibinanura imitsi y'intoki, bakatwereka n'inkweto za siporo, bakongera bakatwereka n'agakoresho ko kwa muganga gapima umuvuduko cyangwa se gapima uko umutima utera, ku ruhande bakatwereka n'isahani iriho imirire cyangwa se indyo zitandukanye kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Uyu ni umugabo urimo kunywa amazi, akaba ari umugabo w'umusuporutifu yambaye ekuteri ndetse akaba yambaye imyenda ya siporo. Bikaba bigaragaza ko kunywa amazi ni ingirakamaro cyane cyane ku ba soporutifu cyangwa se ku bantu bari gukora siporo kuko uko ukora siporo niko utakaza amazi igihe uri kuribira ibyuya. Niyo mpamvu ugomba gukora siporo ari ukibuka no kunywa amazi.

Iki ni igikapu cy'ubutabazi bw'ibanze bwihutirwa, kikaba ari igikapu kibasha kujyamo ibikoresho byose nkenerwa kugira ngo umuntu utange ubu butabazi bw'ibanze abashe gutwara ibikoresho byose.

Aka ni agakoresho cyangwa se ni igikoresho kitabazwa mu gihe cy'ubutabazi bw'ibanze cyane cyane mu gihe habayeho kugira imvune ikomeye, akaba ariko bifashisha, bakabakita ActiSplint.

Uku ni ukuboko kwagize ikibazo, bigaragara ko ashobora kuba yavunitse bakaba bamushyiriyeho barafu kugira ngo barebe ko imvune idakomeza kumurya cyangwa se ibasha koroha, akaba ari uburyo bukoreshwa igihe umuntu agize imvune kugira ngo bamugabanyirize uburibwe.

Ni umugabo cyangwa se umusore, ubona ko afite umubiri mwiza, akaba arimo gukora siporo, arimo kunanura ee! imitsi cyangwa se arimo kunanura umubiri wose, hejuru nta kintu yambaye, yikohoye, hasi yambaye ikabutura, yambaye isaha ndetse n'inkweto zigaragara ko ari iza siporo.

iyi ni mashine yabugenewe yo kwa muganga ishinzwe kureba indwara tutabonesha amaso kwa muganga bifashisha barimo basuzuma indwara zitaboneka n'amaso.

Iki ni igikoresho cyifashishwa kugira ngo gifashe abantu bagize ikibazo cy'uruti rw'umugongo, igihe batabasha guhagarara nicyo bakoresha kugira ngo bahagarare. akaba rero bagaragaza uburebure gifite, n'ubugari bwacyo.

Ni umugabo wicaye hasi afite icupa arimo kunywa arimo kunywa amazi, yambaye ikote bigaragara ko yari arimo gukora siporo akenshi iyo umuntu arangijekora siporo aba agomba kwambara ikote cyangwa se umwenda umushyushya kugira ngo yirinde ko ubukonje bwamufata vuba vuba akaba yagira ikibazo mu mubiri.

Abantu babiri umwe araryamye bigaragara ko yagize ikibazo mu ivi, ashobora kuba yavunitse bakaba barimo bamushyiraho barafu kugira ngo imugabanyirize uburibwe yagize mu ivi.

Ni umugabo cyangwa se umusore, ubona ko afite ibigango, yakoze siporo kubera ko amaboko ye aragaragara ko ari umuntu wakoze siporo akaba ari kunywa amazi.

Uyu mugore tubona hano yagize ikibazo ku kuboko aho yavunitse ukuboko, akaba yashyizeho barafu, barafu rero igihe umuntu yavunitse imufasha kugabanya uburibwe.

Iki ni igikapu cyabugenewe cy'ubutabazi bw'ibanze, kikaba ari igikapu ushobora gutwaramo imiti ndetse n'ibindi bikoresho byose wakenera mu gihe ugiye gutanga ubufasha bw'ibanze.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, ndetse n'imiti myinshi yakoreshwa igihe hagiye gutangwa ubutabazi bw'ibanze, harimo ibinini, ,harimo ibipfuko, harimo imakasi, harimo na ga zo kwambara igihe muganga arimo gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Ibi ni ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gihe cyo kupfuka ibisebe, aho tubonamo ibipfuko, ndetse n'indi miti bapuriza kugira ngo babashe gufatisha igipfuko.

Iki ni ikiganza gishushanye mu ibara ry'ikigina cyangwa se ry'ibihogo, ku rundi ruhande hejuru hakaba hariho ishusho y'umuntu uri kwirukanka, hagati harimo ishusho y'urutirigongo, ku rundi ruhande hakaba hari umusaraba w'umweru ushushanyije ubuso bw'umutuku ndetse no hasi hakaba umuntu urimo ukora siporo.

Aha turahabona ikirahure kirimo umutobe w'umwimerere w'imbuto, tukahabona imbuto kandi ariyo ironje, tukahabona na pome, tukongera tukahabona uruboga rwa salade cyangwa se bita reti, tukongera tukahabona ibyuma baterura bakora siporo, tukabona n'imetero bapima bagira ngo barebe umubyibuho cyangwa se uburebure bw'umuntu.

Uyu mugabo arimo gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo bigaragara ko amaboko ye yarabyimbye kubera guterura ibyuma ndetse akaba yambaye isengeri afite na ekuteri mu matwi yumva umuziki n'inkweto za siporo.

Iyi ni ya miti yadutse aho usanga abantu hose basigaye bamaza gukora imiti ivura akanyabugabo cyangwa se kurangiza vuba no gucika intege. Uyu na wo ukaba ari umuti umwe muri iyo ngiyo, bigaragaza yuko ivura kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'izindi ndwara.

Uyu ni umuti cyangwa se ibinini byifashishwa mu gukuramo inda, bikaba ari ibinini bikoreshwa cyane cyane igihe bashaka gukuramo inda itararenza amezi abiri.

Iri ni icupa ry'amavuta akaba ari amavuta bigaragara ko ari amavuta avura cyangwa se ari amavuta yo kwisiga ku mubiri ari amavuta meza.

Iki giti giteye ahantu mu kigunda, hagati mu kigunda, gusa ni ikigunda gikikijwe n'ishyamba ryinshi ry'inzitane, iki giti kikaba gishoboka kuba ari umuti, cyangwa se kivura indwara runaka.

Iyi ni produit ya forever. Ikaba ari produit ikoze mu gikakarubamba. Uyu ukaba ari umuti, umuti gakondo, cyangwa se umuti karemano utongeyemo ibinyabutabire.

Uyu ni umugabo uteruye ikimera cyangwa se icyatsi, kikaba ari icyatsi gisanzwe kizwiho ko ari umuti kandi kikaba ari umuti gakondo, akaba yari ari kucyerekana cyangwa se yari ari kugisobanurira abantu.

Uru ni urugero rwiza rw'ibihingwa tubona iwacu mu rugo kandi tujya twifashisha mu kuvura indwara z'ibicurane n'inkorora, aho twifashisha indimu, ndetse na tangawize mu kunywa icyayi, bikatuvura inkorora.

Iri ni icupa ry'umuti, rikaba ari icupa ry'umuti gakondo w'umuravumba, umuti w'umuravumba ukaba barawutunganyije ukaba ari ifu kandi umuravumba tuzi yuko uvura inkorora.

Ni umuntu bigaragara ko arimo gusekura, afite agasekuru gatoya nka twa dusekuru tujya dusekuza dusekuramo ibirungo cyangwa se imiti kugira ngo twivure.

Iyi ni poroduwi ya foreva, zikoze, foreva ikaba izwiho gutanga imiti ikozwe mu gikakarubamba, aha tukaba tubona ipaki y'imiti cyangwa se y'amavuta abagore, cyangwa se abakobwa bakunze kwifashisha, kugira ngo babobereze iminwa.

Iyi ni imiti itandukanye ikorwa mu gikakarubamba harimo amavuta yo kwisiga, harimo shampo zo koga, harimo amavuta yo kwisiga, harimo isabune zo koga ndetse n'imiti y'amenyo yose ikozwe mu gikakarubamba.

Aha turahabona icyatsi kikaba ari icyatsi gitoshye kimeze neza. Bikaba bikeka ko iki ari icyatsi kirimo umuti cyangwa se gitanga umuti gakondo, umuti karemano wa hano iwacu.

Iki ni icyatsi tubona hano, kikaba ari icyatsi gikoreshwa mu buvuzi gakondo cyangwa se mu buvuzi karemano butaciye mu nganda ngo bwongerwemo ubunyabutabire. Iki kikaba ari icyatsi cyakorwamo imiti myinshi cyane cyane iy'inkorora ndetse n'ibicurane.

Aha ni mu cyumba cyo gupimiramo ibizamini, hakaba harimo umugabo arimo gupima ibizamini afite ikizamini arimo gupima mu ntoki ndetse imbere ye ku meza hakaba harimo amacupa abiri arimo ibinyabutabire bifashisha kugira ngo bapime ibizamini.

Turabona ifoto y'ishyamba ikaba ari ishyamba bigaragara ko ari ishyamba ryinzitane bigaragara ko ari ishyamba kimeza, kandi tuzi neza ko mu mashyamba kimeza akenshi, haba harimo ibyatsi byinshi bivura, cyangwa se bikorwamo imiti karemano.

Urabona umukebe utukura, ukaba ari umukebe urimo ibinyobwa byongera ingufu ndetse bikaba bikorwa n'uruganda rwa Forever.

Iki ni icyatsi kibisi kikaba ari ibyatsi bikunze kwifashishwa nk'imiti kandi ikaba ari imiti ya gakondo itagiyemo ibinyabutabire.

Ibi ni ibikarito by'umuti, umuti ugaragara ko ubamo ubwoko bubiri, ubw'uwabantu bakuru, ndetse n'uw'abana, ndetse uyu muti umwe akaba ari uwo bavanga mu mazi, ndetse n'undi uba ari ibinini.

Iyi tubona ni tangawizi, tangawizi ni igihingwa tubona hano iwacu ku masoko, tukaba ari igihingwa dukunda kwifashisha mu mitekere cyangwa se mu mirire ndetse kikaba ari n'igihingwa gikorwamo umutobe, umutobeye uri natirere cyangwa se umutobe uri karemano ndetse hejuru y'ibyo kikaba ari n'umuti uvura inkorora.

Aya ni amacupa arimo ibinyobwa bya sitaribaki , hakaba harimo icyayi, ahandi hakaba harimo ikawa yo mu bwoko bugiye butandukanye.

Iyi ni imiti y'ubwoko bwinshi, imwe ni amababi, indi iri mu bwoko bw'indabyo, indi iri mu bwoko bw'imizi, indi iri mu bwoko bw'ingeri, ikaba ari indwara, iyi ari imiti yose ya gakondo.

Iki ni icyatsi kirandaranda, kikaba ari icyatsi kivamo umuti uvura, kikaba ari icyatsi gifite amababi ameze nk'ay'uruyuzi ariko kikagira ururabo rujya gusa n'iroza. Hagati gifitemo akabara k'umweru.

Ibi ni ibibabi by'icyatsi cyangwa se ikimera kizwi nk'urumogi, urumogi kikaba ari ikiyobyabwenge abantu bakunze gufata cyane cyane urubyiruko, ariko urumogi nanone rukaba ari n'umuti wifashishwa mu buganga cyangwa se mu buvuzi.

Aha turabona amakoma arambitse hasi ariko ariho ibintu byinshi bitandukanye bimeze nk'ingeri z'ibiti, ibindi bimeze nk'imizi y'ibiti, ibindi bimeze nk'imbuto, hakaba hariho n'agasekuru bagaragara ko ari imiti bagiye gusekura ngo bakore umuti.

Ubu ni ubwoko bw'imiti butandukanye, aho bumwe ari ibinyamizi, ibindi ni ingingo cyangwa se ingeri, ndetse ibindi ni ibibabi. Hakaba hari umuntu urimo gusekura abivange asekure kugira ngo aze gukora umuti.

Hano turabona ibibabi bigaragara ko ari bibabi by'igiti kitwa umusave, umusave akaba ari igiti cya kera, dukunze kubona mu byaro cyangwa se ahantu hari ingo cyangwa se mu rugo.

Uyu ni umuti witwa Forceval uyu muti ukaba urimo uw'abana ndetse n'uw'abantu bakuru, uyu muti ukaba ukozwe mu buryo bubiri, hari uw'ibinini ndetse n'uw'abana. uyu muti ukaba urimo vitamine ndetse n'inyongeramirire.

Aha turabona ifoto y'ikimera cyangwa se y'icyatsi bita umuravumba. Umuravumba ukaba ari ukaba ari icyatsi kirimo umuti karemano cyangwa se umuti gakondo, ukaba uri umuti abantu benshi bakunze kwifashisha ukaba uvura inkorora cyane cyane.

Aha bishatse kwerekana urugero rw'imiti, imiti gakondo cyangwa se imiti ikozwe mu bimera bimera hano iwacu, imiti gakondo, imiti itarigeze ijya mu nganda ngo yongerwemo ibinyabutabire, ikaba ari imiti dusanzwe tubona hano iwacu ku isoko.

Iyi ni poroduwi ikoze mu gikakarubamba, iyi poroduwi ikaba ikorwa n'uruganda rwa Foreva, iyi poroduwi ikaba ari shampo nziza ikoze mu gikakarubamba.

Ibi ni ibyatsi, cyangwa se ibimera, byifashishwa cyangwa se bikorwamo imiti, ibi byose bikaba ari imiti ya gakondo, cyangwa se imiti karemano, tubona twivuza indwara nyinshi zitandukanye.

Iyi ni isabune nziza yifashishwa mu kumesa ibintu byagiyeho ibizinga cyane cyane ibizinga by'amavuta ukaba uyu muti ubikoraho cyane, hakaba batugaragaza na nimero wahamagaraho mu gihe uwukeneye.

Iyi ni poroduwi yo mu bwoko bwa enfiniti, bigaragara y'uko igizwe n'umubavu wa enfiniti, ikagira amavuta yo ku ntoki, ndetse ikagira n'andi mavuta yo kwisiga, yo mu bwoko bwa enfiniti.

Aka ni kabati karimo amacupa menshi bigaragara ko ari amacupa y'imiti y'ubwoko bwinshi, ikaba yose ari imiti gakondo cyangwa se imiti itaragiye mu nganda.

Aya ni amacupa abiri yakoze mu birarahure, aho bigaragara ko mo imbere harimo ibintu basutsemo biba ari imiti, ariko icupa rimwe rirapfundikiye irindi ntabwo ripfundikiye. Imbere yaho hari agasekuru nako barimo gusekuraramo icyatsi cyangwa ikimera bita mante. Mante ikaba ari icyatsi gitanga umuti cyane cyane w'ubuhumekero.

Ibi ni ibyatsi cyangwa se ibimera bitandukanye bafashe bahurije hamwe, bagiye gusekura kugira ngo babashe kubyazamo umuti gakondo, cyangwa se umuti karemano.

Uyu ni umuti bigaragara yuko ari umuti uvura indwara ya amibe nk'uko babyanditse akaba ari wo muti ushobora kuba uvura amibe ku kigero cyo hejuru.

Iki ni icyapa cyangwa se ikirango kiriho ibibabi, ibishushanyo by'ibibabi byinshi ndetse no hasi hariho ibibabi ariko hakaba handitse yuko ari umunsi nyafurika w'imiti gakondo, akaba ari umunsi wabaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Iki ni ikimera bita igikakarubamba, igikakarubamba kikaba ari ikimera gifite umwihariko y'uko kivura indwara nyinshi cyane.

Hano turabona umuti w'amenyo, cyangwa se umuti wagenewe koza amenyo ukozwe mu gikakarubamba; ukaba ari umuti utuma amenyo asa neza. Ukaba ukorwa n'uruganda rwa foreva.

Ibi ni ibiganza bifite icupa ry'umuti cyangwa se icupa rya poroduwi bita Lavenda.